Urubyiruko rwambaye impuzankano ikoreshwa mugihe barimo gukina umupira w'amaguru bakaba bari mukibuga kitarimo ibyatsi bisa naho barimo gukina umupira w'amaguru, hirya hari abantu bicaye bisa naho baje kureba umukino barimo gukina.

Abantu benshi bicaye muri sitade y'umupira, akaba ari ahantu abantu bicara mugihe barimo kureba umupira w'amaguru ,mu rwego rwo kugira ngo bataza kurambirwa guhagarara. Harimo abantu bambaye imyenda iri mu moko atandukanye, hakaba hagiye harimo intebe buri muntu wese yicaraho.